Ku ishuri abana bigirayo ibintu byinshi, si amasomo gusa ahubwo ndetse n'imikino itangwayo, bakabasha no kwisanisha n'abandi, umwana agahura abandi bari mu kigero kimwe bangana, bigira akamaro bikangura n'ubwonko bwabo bagatekereza bakishima, ni byiza rero ko mubyeyi utwara umwana ku ishuri atari kuvuga ngo aracyari muto cyane ahubwo kuko asangayo aurungano rwe kandi bakishimana.

Ntukabone abantu baragiye bagakora bakabamo abaganga, abarimu, abasirikare burya biba byarahereye mu mashuri y'inshuke, aho uba waratangiranye n'abarezi babigisha mukina udukino tw'abana ariko bikaza kurangira umuntu avuyemo umuntu ukomeye.

Uburezi ni ikintu gikomeye cyane kiganjemo ubumenyingiro, ariko ndetse no muri ubwo bumenyi harimo aho ababyeyi baza bakazana n'abana babo, bakigira hamwe uburyo bategura ifunguro ryuzuye, ndetse bakaba banahita barisheyaringa, n'iryo bamaze gutegura bakarisheyaringa abana babo.

Abantu benshi batinya imvura nyinshi iyo iguye kuko ibasenyera, ariko bamwe bavumbuye uburyo bwiza bwo kuyungukiramo, ayo maso bakayafata bakayabyaza umusaruro kandi akaba atabasha kujya ahandi ngo asenya ibindi bikorwa byabo.

Ishuri, ishuri ni ikintu cyiza aho abana bakiri bato bakuramo ubumenyi ndetse bakazabufasha mu buryo bw'ejo hazaza, rero hari ibikoresho byinshi cyane cyane nk'amashusho bikoreshwa kugira ngo abanyeshuri bagume bibuka ibyo bize.

Leta iguma yimvestinga mu bintu by'amashuri, cyane cyane mu nyubako z'ibigo z'amashuri, kugira ngo yorohereze abana batuye mu byaro kuba bava ahantu kure, baza kwiga ahantu hafi. Icyo gitekerezo ni cyiza, dushimira Leta y'ubumwe yabitekerejeho gutyo.

Mu Rwanda dufite ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye, ariko aho usanga hari inyubako zishaje zifite inzugi zishaje zitavuguruwe, ni byiza ko rero aho bafite ibivuguruye bakwiye kubibungabunga kugira ngo dukomeze dufasha na barumuna bacu bari gutangira amashuri.

Umuco wo gusoma ni umuco mwiza cyane, cyane cyane abana babikunda iyo babona bari kumwe na bagenzi babo, bari hamwe nabo bashishikariye, ni byiza rero ko dutoza abana bacu gusoma cyangwa se kureba amashusho aba ari mu bitabo ndetse bakabikorera hamwe bakabikunda.

Amarerero ni amwe muri gahunda ya leta yagize akamaro cyane kuko yakuye abana gusigwa n'ababyeyi hirya no hino bandagaye, mu gihe bagiye mu mirimo yabo ahubwo bagahurizwa hamwe bagahabwa ubumenyi ndetse bakabasha no kwinterakitingana hagati yabo bakabasha kugira ubumenyi buri social.

Turashimira u Rwanda rwacu, turashimira Kagame Paul, wadufashije akaba yabasha kugeza uburezi kuri bose, abana mu gihugu bakaba biga cyane cyane mu mashuri abanza y'ibanze, bakiga bigira ubuntu, babasha kubona ibyo kurya, ni ishimwe rikomeye dushimira Paul Kagame.

Mu bigo bigiye bitandukanye mu by'amashuri, kwa muganga, mu nkiko, ahantu henshi cyane hagiye hahurira ahantu, hari ibyapa bikoreshwa kugira ngo bimenyeshe abantu aho ariho. Urugero nk'icyapa cyerekana aho abantu bagomba guparika bazanye amamodoka, cyangwa se inzira ibayobora aba...

Kwiga ni byiza, kwiga bitanga ubumenyi, kwiga bitanga ejo hazaza heza, kwiga bikungura byinshi, kwiga bituma ujijuka, ni yo mpamvu umwana wese ubona watangiye kwanga ishuri, uba ugomba kumusengera cyangwa se ukabyitaho kugira ngo arisubiremo, kugira ngo twubake u Rwanda rw'ejo twifuza.

Mu kwigisha abanyeshuri kugira ngo bafate habamo sitirateji nyinshi cyane abarimu bagenda bakoresha, hariho kumanika inyajwi cyangwa ingombajwi cyangwa se imibare ikajya ibahorara mu mutwe, kubera guhora babisoma bimanitse mu cyumba cy'amashuri.

Ubugeni bw'ibintu bitandukanye harimo gushushanya bitangira mu bwana, aho abana bigishwa gushushanya mu mashuri, ariko bikaba hari n'abandi baba bifitemo impano bakabikoresha gutyo, no mu kwiga bikabafasha kubona ari amashusho ndetse afite na meaning mu bindi babigisha mu by'amasomo yo ku ishuri.

Mu bwana habamo imikino myinshi yitandukanye harimo n'iyo bita gukina umupira. Bariya ba Messi ba Ronaldo n'abandi bakinnyi b'umupira bakomeye bose mubona biba byaratangiye kera bakina umupira wa karere. Umupira wa karere ni umupira abana bibangira bakawukoresha bakina bityo bikabafasha kuzamura impano no kwintaragitinga hagati yabo.

Ishuri ni ryiza ishuri ridufasha abana bacu, gukura bakamenya ubumenyi ndetse nabo bakaziteza imbere, ni byiza rero dukomeza kubungabunga ibikoresho by'ishuri harimo intebe n'ibindi bitandukanye kugira ngo n'abadukomokaho bose bajye babasha kubikoresha.

Ushobora kubona umuntu yarabaye successful mu buzima, nk'umuganga, umuporisi, umwarimu, ariko ibyo byose nta handi tubikesha, tubikesha abarezi bacu, tubikesha amakayi, tubikesha mu gusoma, ku ntebe y'ishuri niho umuntu atangirira ari umu under ground, bikazarangira yarabaye umuntu ukomeye.

Abana bo muri iki gihe bashobora kuzibaza ibyo ahashize, ndetse bajya babona n'amafoto abanyeshuri bambaye ubururu ari byo twitaga kotoni cyangwa se kake ku bahungu bakabyibazaho, ariko iyo ni inifomo ya pirimeri yo mu gihe cyashize ku Banyarwanda.

Ese nawe wiga mwaba mwarize mukoresha intebe zitwa pupitre? Ni intebe nziza cyane zakoreshejwe n'abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, aho mwicaraga mukandikira hejuru ndetse mwicaye no kuri iyo ntebe. Yewe ni byiza rero ko dukomeza kuzibungabunga na bagenzi bacu bakazazikoresha.

Mu Rwanda tugira ibigo byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amasegondari n'ama pirimeri, ariko kuri uyu munsi nagira ngo mbashimire ikigo cyiza cyane cyitwa College Saint Jean Nyarusange, ikigo washyiramo umwana wawe ukaba wizeye uburezi bwaho.

Mu Rwanda tugira ibigo bitandukanye, bishobora gufasha abanyeshuri mu kubaha ubumenyiyingiro, nyuma yo gusoza amashuri atatu yisumbuye bashobora gukomeza mu bindi ndetse banasoza bakazabona akazi. Muri ayo mashuri rero harimo ikigo cyiza cyane cyitwa HVP Gatagara TVET School Nyanza, icyo kigo nawe wakiyoboka cyaguha ubumenyi bukwiriye.

Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, urubyiruko ni u Rwanda rw'ejo, urubyiruko niyo nkingi y'iterambere igihugu cyishingikirijeho, ni byiza rero ko bagomba kwirinda ibiyobyabwenge cyangwa se izindi nzira mbi zose zatuma batabasha kubaka igihugu cyabo mu gihe kizaza.

Gusoma ni umuco mwiza cyane, umuhanga yaravuze ngo udasomye ntamenya icyo abamubanjirije basize bavuze, ariko rero abana benshi ntabwo babyitaho ariko bana ndabashishikariza musome muzamenya byinshi muzunguka byinshi.

Library cyangwa se icyo bita isomero, ni ahantu heza cyane ho kungukira ubumenyi bugiye butandukanye, haba abantu bitabye imana bari bazi ubwenge, ibyo bari bazi babishyize mu bitabo, ni byiza ko urubyiruko tugira ubushake ndetse tukarushaho kugira inyota yo kumenya gusoma.

Uburezi ni bumwe mu bukungu bukomeye igihugu kigira; bibafasha abana kubakamo ubumenyi ngiro, bikabafasha kumenya ubuhanga bwo kuzayobora igihugu nabo mu gihe kizaza. Ubumenyi rero tukwiye kubisigasira, umubyeyi wese akamenya agaciro kabyo akaguma abiteza imbere.

Buri kigo cy'ishuri kigira ahantu abanyeshuri babika ibikoresho byabo, iyo batashye aho basiga amamare ndetse hakaba hari n'intebe zigiye zitandukanye zisanzwe zikoresha, icyo cyumba gisabwa kurindwa cyane kugira ngo ibikoresho by'abanyeshuri bigume biri sefu.

Ishuri ni ingirakamaro, ishuri ni ubukungu bw'Igihugu, ni ho ubumenyi bubitse, aho abana bajyamo ejo bakazaba abadogiteri bakajya bavura abarwayi, ejo bakaba abasirikare bakajya barinda Igihugu, rero babyeyi mwite ku kamaro k'ishuri mujye mwoherezayo abana banyu.

Mu Rwanda tugira indangagaciro na za kirazira zigiye zitandukanye harimo kubaha, gusabana, kubahiriza igihe, gukunda igihugu ndetse no kugira isuku, ndetse usanga izo za kirazira indangagaciro zikunze kumanikwa ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye nko ku mashuri cyangwa se ku bitaro n'ahandi hantu hose hahurirwa n'abantu benshi.

Abantu benshi abanyeshuri, ababyeyi, abakuze, abatoya, tujya tubona amashuri tukabona yaruzuye ariko mu by'ukuri tutazi aho byavuye, hari abantu bitwa abafundi bashyizemo imbaraga bayubaka.

Amashuri biri muri bimwe mu bikorwa remezo igihugu kiba kigomba kuba gifite, kuko iyo ari kure abana ntibabashe kugerayo bidindiza ubukungu ndetse no mu bumenyi muri abo bana, ni ngombwa rero ku bayafite kuyabungabunga neza, bityo agakomeza atugirira umumaro.

Abahanga bazi mu byo kubaka ni abahanga koko bakwiye gushimwa, baba barakoze byinshi aho umuhanda mutoya bagerageza bagawukatamo ibice, bice by'abanyamaguru, by'abanyamagare ndetse n'aho imodoka zigomba kunyura kandi zidakoze amagisida ngo cyangwa zigongane.

Ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane, aho abakomeye bose, abaganga, abarimu, abasirikare abaminisitire bose baba baranyuze ku ntebe y'ishuri, rero iyo ntebe y'ishuri twiga dukoresheje ikibaho haba muri segonderi, haba muri primary, nursury ndetse na kaminuza amwe namwe bakoresha ibibaho, ibibaho rero tubisigasire.

Uburezi ni inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, rero mu butaka kandi akaba ari ikintu kitari hejuru dufite mu Rwanda kugira rero tugire amashuri ahagije, ni byiza ko dukoresha etaje umuntu akubaka etage akabona amashuri atubutse kandi mu butaka buke.

Umuhanda, umuhanda ni igikorwaremezo cyiza kidufasha muri byose, aho gikoreshwa n'abanyamaguru, akaba gifasha n'abanyeshuri kuba bagera ku ishuri mu buryo bworoshye batagiye kunyura mu nzira ziruhanyije.

Isuku ni ingirakamaro, isuku ikwiye guhera iwacu mu rugo, ndetse n'abana bacu tukayibatoza, bityo iyo tuyibatoje bayigendana no ku ishuri bakajya bayikora n'ahantu biga, ahantu aho ari hose nk'Umunyarwanda ubundi akwiye kurangwa n'isuku.

Mubyeyi nujya ubona umuturanyi wawe afite umwana wateye imbere, nta handi byavuye byavuye mu kwicara ku ntebe y'ishuri, akiga agahabwa ubwo bumenyi, ishuri ni ingirakamaro nawe mubyeyi ntukabuze umwana wawe kuba yakomeza ngo atere imbere, ajye ku ishuri, mureke dufatanyirize hamwe maze twubake u Rwanda twifuza.

Tea Room ni ahantu heza warangira inshuti, warangira abantu bakundana, bahurira basheyaringa ibitekerezo ndetse baboneraho no gusangira icyayi, kigakomeza kubaka ubuzima bwabo.

Urujya n'uruza rw'abantu berekeza mu byerekezo bitandukanye, kandi ubona ko bava ahantu heza cyane h'inyubako nziza, igizwe n'ibiti n'amazu ndetse ni ishusho nziza cyane, yerekana ibidukikije.

Mu buzima habamo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni byiza yuko nk'iyo ufashe ibiribwa cyane cyane ibifite amavuta ndetse n'amasukari, uba ugomba kurenzaho agasarade kabasha gutwika ibyo binure n'ayo masukari, ubuzima bugakomeza kugenda neza.

Urubyiruko imbaraga z'Igihugu zitezeho amaboko akomeye, ubukungu Igihugu butezeho amakiriro ejo hazaza, ni bityo rimwe na rimwe hajya habaho inama zibahugura ku bintu bigiye bitandukanye. Rubyiruko rero nawe aho uri hose jya ugerageza witabire inama n'ibindi bikorwa bya Leta.

Ikintu gitwara amafaranga menshi cyane ni inyubako. Inyubako usanga itwarwa n'ibintu byinshi cyane kandi bihenze, harimo inzugi, amadirishya, amatafari, amabuye, sima, mbega iyo umuntu afite bije y'inyubako aba afite bije ikomeye cyane.

Umunyeshuri akenera ibintu byinshi bigiye bitandukanye bimufasha mu kwiga kwe, mu bushakashatsi ndetse no kongera ubumenyi burenze ku bwo mwarimu aba yamuhaye, ni muri urwo rwego mudasobwa cyangwa se icyo bakunze kwita laputopu, ari ingirakamaro ku munyeshuri imufasha kubona amakuru arenze ku yo yahawe.

Nk'uyu muntu aba afite inzozi nyinshi muri ubu buzima bw'ibyo agomba kuzageraho kuva akiri umwana igihe azaba yaraku yarabonye amafaranga, muri izo nzozi havamo no kugira urugo rwiza, inzu nziza ifite jaride nziza ifite amatara meza kandi buri wese aba yumva yabyacivinga.

Isuku ni nziza mu buzima, ni byiza kuba ahantu hatunganyije, kabone niyo waba ufite ahantu ho gukorera ari hatoya, ugasanga ni ho ukorera akazi, ni ho ofisi, ni ho wigira ariko ibintu byawe buriya bigomba kuba biri ku murongo na byo bigufasha kutajagarara mu mutwe.

Ubusitani ni ikintu kiza cyane gifasha gutuma inyubako yawe cyangwa se ahantu ukorera hagaragara neza, ni byiza ko rero twita ku busitani duteramo ibiti duteramo indabyo zitandukanye ndetse tukazuhira mu gihe k'izuba kugira ngo bigume bitoshye ndetse bigaragara neza.

Niba ushaka kugirawawe hasa neza uhakore jarde uhashyire ibyatsi bya pasparme nibyatsi byiza cyane ndetse ariko uhashyiraho uburinzi kuko iyo bahaciyemo inzira bakahanyura cyane bibuza kumera kw'ibyo byatsi ndetse bikabuza ubwiza bwabwo bwo kugaragara.

Amashuri agiye agira ibyumba bitandukanye harimo n'ibicumbikira abantu, uyu munsi turibanda ku mashuri ya kaminuza aho aba afitemo ameza, ibitanda ariko aho usanga abanyeshuri barekarama ko aba ari hato cyane bahabyiganira, gutyo bikababuza ubwisanzure.

Habaho inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'inyubako ntoya yakwifashishwa kugira ngo bashyiremo nk'utuntu dutoya iri ku nzira kugira ngo ijye ibasha kurangira abantu cyangwa se bashyiramo nk'utuntu dukenewe n'abantu byaba bibone byihuse.

UR ni kaminuza y'u Rwanda ndetse kaminuza y'u Rwanda igizwe n'amakoleje atandukanye. Amakoreje na yo afitemo amadipatimenti. Rero muri ayo madeparitema agiye afite amasosiyasiyo ahuriramo. Urugero rwa asosiyasiyo nakubwira ni medesali ibarizwamo abamedesine.

Uburezi ni ikintu gikomeye cyane ndetse ababimenye ntibabukerensa, imyaka waba ufite yose uragenda ukicara mu ishuri, aho ushobora gusanga umusaza ari kwigana nk'umwana mutoya kuko azi akamaro azi inyungu akura mu burezi.

Mu gihe turi mu iterambere twavuye muri anaroge, inyubako yawe igomba kugira inzugi nziza kandi zigendanye n'ikoranabuhanga. Muri rabu yawe ugomba gukoreshamo inzugi nziza zigendanye koko na simatirumu ntihakabe ari izina gusa ngo bisigare.

Mu Rwanda haba ibikorwa byinshi cyane bitandukanye by'urubyiruko yaba mu manama, ama exhibtion cyangwa se ama conference. Rero ni gutyo abantu bagomba kubayoboka bakajya bahamenya aho byabereye kuko bakuramo ubumenyi bwinshi cyane cyane urubyiruko.

Hari uburyo bwiza ku muntu ufite inzu nto yabasha kuyipakinga kandi ikaba ari inzu ifite isuku kandi ipanze neza mu by'ukuri. Ni ubwo buryo rero ugomba kugura aka etajeri ku buryo nta bintu biba byandaraye hasi, ibyinshi biba biri muri iyo etajeri kandi ukabasha kubibika neza.

Igihugu kigira ibikorwa remezo byinshi harimo inzu, hakabamo imihanda myiza, iyo mihanda rero idufasha mu kugeza ibintu ahantu hatandukanye, ndetse n'abantu bakaba babasha kuyicamo banezerewe, bisanzuye, bikarinda impanuka.